Ku ishuri, guhuriza abana hamwe, bagakina, ni igikorwa k'ingenzi kandi gisabwa buri mwarimu wese kubera yuko, bibafasha guhuriza hamwe bagatekereza neza, bagahanahana ibitekerezo, bakiyunga hagati yabo. Ibi bibafasha kwiga neza ndetse bakarushaho gukura bafite ubuzima bwiza.

Amashuri y'incuke afasha abana gutangira kwiga bakiri bato bakamenya gusabana, gutekereza no gukunda kwiga, bitegura umwana neza ku yandi mashuri akurikiraho bigatuma uburezi bubarirwa ku rwego rwo hejuru binatuma igihugu kigira abaturage bamenyereye kwiga no gukura neza mu bitekerezo , bigafasha mu iterambere ry'uburezi n'ubukungu bw'igihugu.

Kugaburira abana igikoma bituma bagira imbaraga, ubwenge bukarushaho gukora neza kandi bagakomera mu buzima, bituma bitabira ishuri neza, bakiga neza kandi bigafasha mu kugabanya imirire mibi, bityo bikazamura ireme ry'uburezi.

Kwita ku bana bakiri bato bituma babona imyigire myiza, bagakura bafite ubuzima bwiza, bagakomera mu bitekerezo no mu mico. Bituma kandi bazavamo abantu bafite ubumenyi n'imyitwarire myiza, bizabafasha guteza imbere igihugu.

Kurerera abana hamwe, bigira uruhare mu kubigisha indangagaciro zo gufashanya, kubana neza no gukemura amakimbirane. Bituma kandi barushaho kwiga neza kubera guhanahana ubumenyi no gushyigikirana. Ibi byose byongera ireme ry'uburezi, bigafasha mu myigire myiza no kubaka umuryango uhamye.

Kwita ku bana bakiri bato, ni ingenzi cyane. Bikarushaho kuba byiza, iyo bagaburiwe igikoma, mu gihe bakiri batoya kubera yuko bibafasha gukura neza bafite imbaraga, kandi bafite n'ubwenge bwinshi. Bityo bikabategura kuzavamo abantu b'ingirakamaro mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Kuganiriza abana no kubahuriza hamwe ku ishuri ni ingenzi cyane, kuko bituma biga gusabana no kumvikana bakarushaho kumva amasomo yabo neza, kandi bakagira ubushobozi bwo gukemura ibibazo no gufatanya. Ibi byongera umubano mwiza mu ishuri, bigafasha mu kubaka ubumenyi no guteza imbere imyitwarire myiza y'abana, bityo bikagira uruhare mu iterambere ry'uburezi n'imibereho yabo.

Kwigisha abana uhereye mu buto bwabo ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu amashuri y'incuke akenewe mu gihugu kuko abategura, akanabafasha kumenya gusoma no kwandika, kwiga imibare guteza imbere ubwenge n'imitekerereze yabo, kwiga kubana neza n'abandi. Ibi bituma umwana ahabwa umusingi ukomeye wo gukura neza mu burezi no mu mibanire, akazatanga inkunga ikomeye mu iterambere ry'igihugu.

Kwigisha neza abana b'incuke bituma bagira ireme ryiza ry'ubumenyi n'imyitwarire myiza hakiri kare, bibafasha gutegura neza ejo hazaza habo, kongera ubushobozi bwo kwiga no gukemura ibibazo, ibi bigira uruhare runini mu iterambere ry'umuntu ku giti ke no ku ry'igihugu muri rusange.

Kwigisha abana b'incuke bakiri batoya ni isoko y'iterambere ry'igihugu muri rusange, kubera yuko bibaha ubumenyi, bikabajijura bityo bakayitegura kuzavamo abakozi beza bazakorera igihugu cyabo muri rusange mu hazaza habo. Uburezi rero burakenewe kugira ngo ibyo ngibyo byose bigerweho.

Uburezi ku bana bato ni ingenzi cyane ndetse ni n'inkingi y'iterambere ry'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, ibi ni ukubera yuko bifasha abana kujijuka, bakamenya ubwenge, bakamenya intego y'igihugu muri rusange, ndetse kandi bakazavamo abantu bakomeye beza b'ingenzi igihugu gikeneye.

Kwigisha abana bakiri bato ni igikorwa cy'ingenzi kandi byose bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu, ibi ni ukubera yuko bifasha abana gusobanukirwa ndetse no gutangira gufunguka mu mutwe, kugira ngo bazavemo ab'ingenzi bazakenerwa mu iterambere ry'igihugu; rero uburezi burakwiriye kugira ngo ibi ngibi byose bigerweho.

Isuku nke no kwandarika ibintu mu ishuri ry'abana bato, bitera indwara ziterwa n'umwanda, impanuka, ikoreshwa nabi ry'ibikoresho, kudakurikirana neza amasomo, ndetse no gutuma abana batamenya kugira isuku no kubaha ibintu. Ibi byose bigira ingaruka mbi mu myigire n'imyitwarire yabo.

Kwigisha abana b'inshuke, bituma bagira imitekerereze myiza, bakamenya gusabana no kumenya ibintu by'ibanze mu buzima, bibafasha gutegura neza amasomo y'ahazaza, kongera ubushobozi bwo kwiga neza no gukura neza mu mibanire n'abandi, ibi byose bigira uruhare mu iterambere ryabo ku giti cyabo no mu muryango muri rusange.

Guhuriza abana hamwe bagahabwa uburere bukwiriye ni igikorwa cy'ingenzi bikaba byiza iyo bari hamwe rwose, kubera y'uko bibafasha kumva babikunze ndetse bagakurikirana amasomo badategwa cyangwa se nta bibarangaza, n'uko rero birakwiriye y'uko uburere buhera ku bana bato kugira ngo ireme ry'uburezi rirusheho kuzamuka muri rusange.

Indyo yuzuye ifasha abanyeshuri gukura neza no kwiga neza, kuyibura bituma bagira intege nke, indwara n'ibibazo mu myigire yabo, indyo nziza ni ingenzi mu burezi no mu mibereho myiza y'abana.

Uburezi ni isoko y'iterambere ry'igihugu muri rusange ndetse n'abaturage, kubera yuko bijijura abana, bimwe mu bikorwa by'ingenzi kandi bikorwa mu burezi, ni ukwigisha abanyeshuri gushushanya, ibi ngibi bikangura ubwonko bwabo bikabafasha gutekereza, mbega bakajijuka bityo bakazavamo ab'ingenzi igihugu gikeneye.

Ikigega cy'amazi ni ingenzi cyane mu kigo cy'amashuri kuko gifasha kubika amazi azakoreshwa mu gukora amasuku mu mashuri bigiramo. Kirinda ibura ry'amazi kigafasha abana kubaho neza no kwiga mu bwisanzure. Gifasha mu kongera isuku n'isukura, kikagabanya indwara ziterwa n'umwanda, bityo bigateza imbere uburezi n'ubuzima bwiza bw'abanyeshuri.

Ikigo cy'amashuri kitagira uruzitiro, kiba gifite umutekano muke. Abantu batabyemerewe bacyinjiramo, bakangiza ibikoresho byacyo, cyangwa bakabyiba. Bikangiza isura y'ikigo, ndetse bigatuma ireme ry'uburezi rigabanuka. Bigira ingaruka mbi, ku iterambere ry'ikigo n'Igihugu muri rusange.

Mudasobwa ni ingenzi cyane. Ni yo mpamvu ikwiriye kwigishwa abana bose. Kuko ibafasha kubona ubumenyi, gushaka amakuru, gutekereza neza no kubona akazi. Ibi byose bigateza imbere Igihugu bitewe n'iterambere ry'ikoranabuhanga.

Gutera ibiti n'ibyatsi ndetse n'ibimera hafi y'amashuri bishobora gukingiriza urumuri, guteza umwanda, kubuza inzira abanyeshuri no guteza impanuka mu gihe cy'imvura cyangwa umuyaga, bikwiye guterwa ahateguwe neza bitabangamira imyigire n'umutekano wabo.

Kwigisha abanyeshuri ibijyanye n'ubuhinzi ni isoko y'iterambere rirambye. Kubera y'uko bibafasha kujijuka bakamenya n'umumaro wabyo, bityo bakazabikora bakabikorana ubunyamwuga bigateza imbere imiryango yabo n'igihugu muri rusange.

Isomero mu kigo cy'amashuri ni ingenzi cyane mu uburere bw'abana kubera yuko ribafasha kongera ubumenyi gusoma no kwandika neza gukora ubushakashatsi no kwiga bigenga, bityo bikabafasha gutsinda no gutekereza neza.

Kureka abana bagakinira hamwe ni ikintu cyiza cy'ingenzi gituma bahuriza hamwe ibitekerezo, bakidagadura bakaruhuka mu bwonko ariko kandi bakunguka byinshi bibateza imbere. Ibi bibafasha gukura neza bakazavamo abaturage beza bafitiye igihugu cyabo akamaro.

Imibare ni isomo ry'ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi bw'abanyeshuri, kubera yuko rirabajijura bagasobanukirwa ndetse bikabafasha gutekereza, si ibyo gusa kubera yuko bituma bavamo abashakashatsi beza bafite ubuhanga, bityo bigateza imbere igihugu cyacu.

Abana ni ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu cyacu, niyo mpamvu kubareka bagahurira hamwe, bagakinira hamwe bibafasha gukorana, guhanahana ibitekerezo, kugira inshuti no gukura neza ndetse no kunguka ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye kubera yuko bagenda bahanahana ibitekerezo.

Kwigishiriza abanyeshuri ahantu hatari mu kigo, bituma habura ibikoresho bihagije. Umutekano muke, amasomo ntakurikiranwa neza, bigatuma iterambere ry'uburezi rigabanuka kandi iterambere ry'igihugu rikadindira. Bityo rero ibigo by'amashuri ni ingenzi kuko birinda izo ngaruka zose.

Kwigishiriza abana hamwe ku ishuri ni ingenzi cyane, kubera yuko bizamura ubumenyi bwabo bigatuma babasha guhanahana ibitekerezo bakunguka byinshi, twibukiranye yuko kwigisha neza abana bakiri bato biba biteganya kuzazamura iterambere ry'igihugu ahazaza habyo, rero birakwiriye yuko tubishyiramo imbaraga.

Kwiga indimi z'amahanga nk'icyongereza, igifaransa n'izindi, bifasha abaturage kuganira n'abaturutse hanze, kubona akazi, kwiga hanze no kwagura ubucuruzi. Bituma igihugu gifunguka ku ruhando mpuzamahanga, kigatera imbere mu bukungu, uburezi n'ikoranabuhanga. Bifasha kandi mu gusangira ubumenyi n'andi mahanga no guteza imbere ubufatanye.

Kimwe mu by'ibanze bikwiriye kwigishwa abana ni ukwirinda umwanda, kandi ibyo byose bishoboka iyo n'amasomo yabo bayigira ahantu hasukuye, umwanda mu ishuri ushobora guteza indwara no kubangamira imyigire y'abana, kugira isuku aho bigira bifasha kurinda ubuzima bwabo guteza imbere imyigire ikinyabupfura n'isomo ry'isuku.

Kumanika Ibendera ry'Igihugu mu bigo by'amashuri, bitera abanyeshuri gukunda Igihugu, kubaha ibimenyetso byacyo, no kumenya indangagaciro ziranga Umunyarwanda. Binongera ishema, ubumwe n'uburere, mboneragihugu mu rubyiruko.

Uburezi ku banyeshuri ni ingenzi cyane kubera yuko bubajijura bagasobanukirwa ibyo batari bazi, ndetse kandi buba bugomba gutangirira mu kigero cy'ubwana bwabo kubera yuko bibafasha gukura neza, ndetse bagasobanukirwa intego z'Igihugu cyabo muri rusange.

Ingwa ni igikoresho cy'ibanze mu burezi. Ni yo ifasha mwarimu kwandika ku kibaho, abanyeshuri bakamenya ibyo umwigisha ashaka ko bamenya. Mbega ibaye idahari uburezi ntabwo bwagenda neza, keretse mu gihe ikigo cy'amashuri gifite ibikoresho by'ikoranabuhanga bihagije.

Ibikoresho bihagije kandi bifite ubuziranenge mu ishuri, ni ibintu by'ingenzi bikenerwa n'umwarimu kandi bigateza imbere ireme ry'uburezi, by'umwihariko mu isomo ry'imibare ibikoresho bigomba kuba bihagije cyane cyane ibifasha umwarimu mu kwigisha ibinyampande bigiye bitandukanye.

Uburezi ni isoko y'iterambere muri rusange, ku rwego rw'igihugu ndetse n'umuturage, burushaho kugenda neza rero, iyo ibigo bihari, kandi bifite isuku, ndetse inyubako zacyo zivuguruwe, bityo bifasha abanyeshuri gukunda kwiga, kandi bigaha isura nziza ikigo, ibi ngibi bigafasha mu iterambere ry'igihugu muri rusange.

Kimwe mu byumba by'ingenzi mu nzu ni icy'uruganiriro. Gifite imimaro itandukanye irimo: gufasha kwakira abashyitsi, guhuriramo n'umuryango, kuruhukiramo no kugaragaza isura nziza y'urugo. Nk'ahantu rero hahurira abantu benshi, amadirishya yaho agomba kuba afunguye byibura ku manywa kugira ngo hinjiremo umwuka mwiza, hahore hari amahumbezi.

Kubaka aho abana bakinira ku ishuri ni ingenzi kuko bituma bagira umwanya wo kwidagadura no gukora imyitozo ngororamubiri, ibi kandi bigafasha mu guteza imbere ubuzima bwabo ndetse bigafasha mu kugabanya umunaniro no kongera ubushake bwo kwiga, na none bituma bagira umuco mwiza wo gukorana n'abandi, bityo bigafasha mu myigire n'imibereho myiza yabo.

Kwigishiriza mu mu mashuri ashaje bituma abanyeshuri batabona ibikoresho bihagije kandi byiza, bigabanya ireme ry'uburezi, ibi bishobora gutera umutekano muke kubera inyubako zidashobora guhangana n'ibihe, bigatuma imyigire itagenda neza, na none amashuri ashaje ashobora kugabanya ubushake bwo kwiga no gutuma abanyeshuri badafata umwanya uhagije mu masomo yabo.

Kwita ku banyeshuri bari ku ishuri ni ingenzi cyane kuko bituma bagira ubuzima bwiza bagatekereza neza kandi bakiga neza, binarinda impanuka zitandukanye n'indwara, bikabafasha kwitwara neza mu masomo yabo no mu mibanire n'abandi, ibi byose byongera ireme ry'uburezi, kandi bigafasha iterambere ry'igihugu.

Umuhanda ukoze neza, ni ingenzi mu kuzamura uburezi, kuko uwukoze nabi, butuma abana batinda kugera ku ishuri bigatuma batakaza amasomo yabo, utera impanuka, uburwayi nk'ibisebe n'umunaniro n'ibindi rero igikorwaremezo cy'umuhanda, kirakenerwa cyane mu iterambere ry'uburezi muri rusange.

Imyuga n'ubumenyi ngiro ni ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu cyacu ndetse kubyigisha abanyeshuri bifite agaciro gakomeye kuko bituma babona ubumenyi buhagije bubafasha mu kwihangira imirimo, kwiteza imbere ndetse no guteza igihugu imbere.

Gushyira ku mugaragaro amashami atandukanye ishuri ryigisha, bituma abanyeshuri n'ababyeyi bamenya amahitamo bafite. Bigafasha mu gufata imyanzuro myiza y'amasomo, byongera ubunyamwuga bw'ikigo, bikanorohereza abashaka kwiga kubona amakuru yizewe.

Amashuri meza yubatswe neza atanga ahantu heza ho kwigiramo hatuje kandi hizewe. Atuma abana biga neza, bakicara ahantu haboneye kandi hatekanye. Afasha abarimu gukora akazi kabo neza bityo ireme ry'uburezi rikazamuka.

Uburezi n'ubw'ibanze mu iterambere ry'igihugu cyacu muri rusange, Ni na yo mpamvu gushishikariza abana kwitabira ishuri bituma biga neza bakagira ubumenyi n'ubushobozi bagatera imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi bakagira amahirwe menshi yo kubona akazi keza.

Kugaburira abanyeshuri ku ishuri bituma biga neza kuko baba bafite imbaraga n'ubwonko bukora neza, bibafasha kandi kwirinda indwara zituruka ku mirire mibi no kuguma ku ishuri aho kujya gushaka ibyo kurya, binongera umusaruro wabo mu myigire bigatuma bitabira amasomo neza.

Ameza y'umwarimu mu ishuri ni ingenzi kuko afasha mu gutunganya imyigishirize neza kandi bigatuma umwarimu akora akazi ke mu buryo buboneye kandi bw'umwuga kandi bifasha abarimu bagiye batandukanye, mu gushyira ibintu by'ingenzi hafi ye, bikanoroshya gutanga amasomo neza.

Guhuriza hamwe abanyeshuri, bituma bahurira ku bumenyi bumwe, bikabafasha mu gusangira ibitekerezo no gufashanya mu myigire. Bituma habaho guhuza imbaraga no kwigisha neza bikongera umusaruro w'amasomo kandi bikazamura ubufatanye hagati y'abanyeshuri, ibi byongera ireme ryiza ry'uburezi.

Ikigo gisa neza gitanga isura nziza y'uburezi, kikongera ishyaka n'umutima mwiza ku banyeshuri n'abarimu, ibi bigatuma imyigire iba myiza cyane, kandi umusaruro w'amashuri ukiyongera, ibi byose bifasha iterambere ry'uburezi n'igihugu muri rusange.

Kugaragaza indangagaciro na kirazira ahabonwa n'abanyeshuri ,bibafasha kwibuka no gukurikiza imyitwarire myiza, bitanga ubutumwa burambye bwo kubaha, gukunda igihugu ,kugira umutima mwiza ,no kwirinda kwitwara nabi, binubaka ikinyabupfura mu banyeshuri, bikazamura ireme ry'uburezi.

Uburezi ni ingenzi cyane kuko butuma abanyeshuri, babona ubumenyi n'ubushobozi bwo kwiteza imbere, gutegura ejo hazaza heza, no kugira uruhare mu iterambere ry'Igihugu. Binabafasha kuba abaturage beza bafite imyitwarire myiza, bityo bagateza imbere umuryango n'Igihugu muri rusange.

Kwigisha imyuga n'ubumenyingiro mu mashuri ni ingenzi cyane kuko bituma abanyeshuri babona ubumenyi n'ubushobozi bwo kwihangira imirimo no kubona akazi mu buryo buboroheye. Bibafasha kandi mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri, guteza imbere ubukungu bw'igihugu no kongera umusaruro mu byiciro bitandukanye by'ubuzima.

Umutekano ni inkingi y'iterambere. Kwigisha abanyeshuri ibijyanye na wo bibafasha kumenya uko bitwara mu bihe by'ibiza, kwirinda impanuka, gukumira ibyaha, no kubaka umuco wo kubungabunga umutekano w'abandi, bityo bakarushaho kugira imibereho myiza, n'iterambere ryiza mu muryango.

Uburezi ni umusingi w'iterambere mu gihugu cyacu n'Isi muri rusange kuko ari isoko yo kurema abantu bajijutse bafite indangagaciro, ubunyangamugayo, gukunda igihugu no kugikorera kugira ngo gitere imbere. Nta bukene buramba mu gihugu giteza imbere uburere bwiza kugira ngo ibi bigerweho bisaba guhuriza hamwe abakiri bato n'abakuru bakigishwa mu buryo bukwiriye.

Gushyira mu bikorwa ubumenyi abanyeshuri biga, bituma bamenya neza, bakarushaho kugira ubushobozi bwo gukemura ibibazo byabo. Kandi bituma bagira uruhare mu iterambere ry'Igihugu. Ibi bigafasha mu kwerekana ko uburezi bufite akamaro nyakuri, kandi bigashyigikira mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, no guteza imbere Igihugu muri rusange.

Guhuriza hamwe abanyeshuri bakigishwa ibintu bitandukanye, ni ibintu bitanga umusaruro cyane mu burezi, kubera yuko babonera ubumenyi hamwe ndetse bakabubonera icyarimwe, ibi birabajijura bikabateza imbere, bityo bakavamo abantu b'ingenzi bazagira icyo bamarira igihugu muri rusange.

Kwigisha abanyeshuri kuririmba bifasha guteza imbere impano zabo, kongera ubushobozi bwo gutekereza no kwibuka vuba, binabafasha kugaragaza amarangamutima, gusabana n'abandi no kugira ikinyabupfura, kuririmba kandi bibigisha umuco wo gukunda igihugu no kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Ibigo by'amashuri ni isoko y'uburezi bufite ireme. Bituma abaturage babona ubumenyi, bigateza imbere ubukungu, bikagabanya ubukene, bikazamura imibereho myiza. Bikongera ubumwe bw'Igihugu, kandi bigateza imbere ikoranabuhanga n'udushya. Ibi byose bifasha Igihugu gutera imbere.

Isuku mu ishuri, ni ingenzi cyane kuko ifasha abana kwiga neza, kwirinda indwara, no kugira ibitekerezo bisukuye. Umwanda mu ishuri, ushobora kugira ingaruka nyinshi, harimo gutera indwara, gutesha agaciro ibikoresho, no kubangamira imyigire y'abana.

Uburezi ni inkingi ya mwamba y'iterambere muri rusange, bityo bukwiriye kwitabwaho ndetse n'abanyeshuri bari kujya ndetse bari no kuva ku ishuri bagacungirwa umutekano, ibi ngibi byose nibikorwa neza bizatanga umusaruro muzima, kandi igihugu kizatera imbere kubera yuko kizaba gifite injijuke zimeze neza.

Mudasobwa ifasha mu kwihutisha no kunoza imyigishirize, ituma abanyeshuri n'abarimu babona amakuru menshi kandi yizewe, ikorohereza gukoresha ikoranabuhanga mu myigire, ndetse ikanateza imbere ubushakashatsi n'ubumenyi, ibi byose bituma ireme ry'uburezi rizamuka kandi rigateza imbere igihugu muri rusange.

Ishuri rifite ibikoresho bihagije harimo n'intebe zihagije, bifasha mu iterambere ry'uburezi kubera yuko bituma abanyeshuri barikunda ndetse bakajya baza kwiga babikunze babyishimiye. Ibi ngibi bifungura ubwenge bwabo bikabateza imbere, bityo bakazavamo abantu bakomeye bajijutse, Igihugu gikeneye.

Ikigo cyiza gifite ubusitani bwiza kikagira n'Ibendera ry'Igihugu, cyongera ishema mu barimu ndetse n'abanyeshuri kikagira isuku n'umwuka mwiza, ibi bigatuma abanyeshuri n'abarimu bakora neza kandi bakunda igihugu cyabo, ibi biteza imbere uburezi n'imibereho myiza.

Kwigisha abana ni inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu muri rusange, kubera yuko bihereza abakiri batoya ubumenyi buhagije bityo bakazavamo abantu b'ingenzi bakenewe n'igihugu muri rusange, si ibyo ngibyo gusa kuko uburezi bufasha mu kuzamura ireme ry'ubushakashatsi, bityo iterambere rikarushaho kugwira.

Kubaka amashuri bitanga ahantu heza kandi hizewe ho kwigira, bituma abana babona uburezi bufite ireme, abarimu kandi babasha gutanga amasomo neza, bikazamura imyigire n'imyitwarire y'abanyeshuri, amashuri yubatswe neza atuma abaturage babona ubumenyi, bityo bagateza imbere imibereho myiza n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Uburezi ni ingenzi cyane mu iterambere rirambye ry'igihugu. Bityo rero kugira ngo bugende neza, ni uko ibigo byiza bigomba kubakwa kandi bifite isuku. Abantu bakaza bagahurira muri byo, ndetse n'abana bato, bakahigira ubumenyi, ubumenyi bukabahinduramo abantu b'ingenzi bakenerwa n'igihugu, ni uko iterambere rikazamuka.

Guhugura no kwigisha abanyeshuri bituma babona ubumenyi n'ubushobozi bwo gusobanukirwa neza amasomo, kugirana ibiganiro na bo bibafasha gutanga ibitekerezo, gukemura ibibazo hagati yabo no gukura mu myitwarire no mu myifatire, ibi byose byongera ubushake bwo kwiga, bigateza imbere imitekerereze hanyuma uburezi bukazamuka.

Uburezi bwiza ku bana bose, ni ikintu cy'ingenzi cyane gifasha iterambere ry'igihugu. Ibi ni ukubera yuko bituma abana bakiri bato, bajijuka, bakagira ubumenyi buhagije, bwifashishwa mu gukorera igihugu cyabo muri rusange.

Uruzitiro ku kigo cy'ishuri ni ingenzi cyane kuko rutanga umutekano rukarinda ibikoresho by'ikigo, rufasha abana kwiga bafite ituze kandi rugateza imbere isura n'iterambere ry'uburezi muri rusange.

Uruzitiro rwiza ubusitani bwiza ndetse n'inyubako nziza, ni ingenzi cyane mu bigo by'amashuri kuko bituma abanyeshuri biga neza bakarushaho gusobanukirwa bagahorana isuku kandi uburezi bugatera imbere.

Uburezi bufite ireme ni isoko y'iterambere ry'igihugu cyacu. Kubera yuko butegura ahazaza h'umwana, butyo akazavamo umuntu w'ingenzi uzaharanira kuzamura igihugu. Rero bukwiriye gutezwa imbere no kwitabwaho mu buryo bukwiriye.

Isomero rifasha abanyeshuri kongera ubumenyi gukunda gusoma no gutekereza ku buryo bwagutse, rituma bagira ubushobozi bwo kwiyungura ubumenyi ku masomo atandukanye bigateza imbere ireme ry'uburezi, isomero kandi rifasha abarimu kubona ibitabo byifashishwa mu myigishirize.

Gushyira abanyeshuri ku murongo ni byiza mu burezi bufite ireme, kubareka bakajya hanze y'ikigo amasomo atararangira si byiza kuko bituma habaho imyitwarire mibi, mutekano muke, kugabanuka kw'ireme ry'uburezi bikaba byanateza impanuka yo mu muhanda.

Ikibaho gisukuye gituma abanyeshuri n'abarimu babasha gusoma no kwandika neza, bikongera ubushobozi bwo kwiga no kwiga neza, binatuma kandi habaho isuku muri rusange ishuri rikagaragara neza, abana bagakunda kuhigira bityo iterambere ry'uburezi rikazamuka.

Imyidagaduro ni ikintu cyiza cyane, gifasha iterambere ry'uburezi muri rusange, kubera yuko bituma abana baruhuka mu mutwe, nyuma bakaza kujya mu ishuri, bameze neza nta kibarangaza, ndetse bumva babifitiye inyota, ibi ngibi rero birakenewe kugira ngo uburere butere imbere.

Umwanda mu ishuri no kwandirika ibitabo n'amakayi aho atagenewe bitera indwara bigatuma abanyeshuri batiga neza, byangiza ibikoresho bikanangiza isura rusange y'ishuri, ibi byose bishobora gutuma ireme ry'uburezi ridatera imbere.

Ishuri ridafite isuku ritera indwara, umwanda n'imiterere mibi yaho kwiga, bigatuma abanyeshuri badashishikazwa no kwiga, kutita ku makaye n'ibikoresho bituma abanyeshuri batabasha kwiga neza bakagira umusaruro mubi mu masomo, ibi byose bigira ingaruka rusange ku burezi.

Uburezi butanga ubumenyi n'ubushobozi ku baturage no ku bana bato bakiteza imbere mu ikoranabuhanga, ubukungu n'imiyoborere myiza, bufasha mu kugabanya ubukene, guteza imbere ubuzima n'isuku no kongera amahirwe yo kubona akazi, bityo igihugu kigatera imbere mu buryo burambye kikagira abaturage bashoboye.

Ahazaza heza h'igihugu hashingiye ku burere buzima buhabwa abana bakiri bato ndetse n'abakuze. Kugira ngo ibyo byose bigerweho hakenerwa inyubako nziza uburezi buzatangirwamo. Ibigo by'amashuri rero bikwiriye kuba bihari ku mubare ushyitse kandi byegereye abaturage kugira ngo abantu babone aho bigira bitabasabye gukora urugendo rurerure.

Uruzitiro rutuma ikigo k'ishuri kiba ahantu heza kandi hizewe hatabayeho kwinjira kw'abantu batabifitiye uburenganzira. bituma kandi abanyeshuri bagira umutekano bityo bagakurikirana amasomo yabo neza. Uruzitiro kandi rutuma ahantu hagaragarara neza isuku ikiyongera bityo ireme ry'uburezi rikazamuka.

Uburezi butuma abantu babona ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora imirimo itandukanye, bukagira uruhare mu guhanga udushya, gukemura ibibazo no guteza imbere ubukungu, bwigisha abantu imyitwarire myiza kandi bakagira uruhare mu iterambere ry'Igihugu muri rusange, bukwiriye rero gushyigikirwa.

Kugira ngo uburezi bugende neza mu mashuri ndetse n'ireme ry'uburezi rizamuke bikenewe yuko abana bahabwa isuzumabumenyi. Ibi bifasha abarimu kurushaho gusobanukirwa neza niba ibyo bigishije abanyeshuri barabifashe, ndetse na bo abanyeshuri bo ubwabo bakungukira muri byo kubera yuko bibafasha kwiga, ndetse no kumenya neza ibyo bigishijwe.

Kugaburira abana ubugari bw'ibigori ku ishuri ni ingenzi cyane mu buzima bwabo, kubera yuko bituma bagira imbaraga, bagakura neza, bakiga neza kandi bakarushaho kugira ubuzima buzira umuze, bityo uburezi bukagira umusaruro.

Isuku nkeya mu ishuri itera indwara ku banyeshuri n'abarimu, ikangiza ibikoresho by'ishuri kandi ikabuza abanyeshuri kwiga neza. Ituma kandi habaho umwanda, umwuka mubi n'akajagari, bikagabanya ireme ry'uburezi ndetse bigateza umutekano muke mu kigo.

Uburezi bwiza ni isoko y'iterambere kubera yuko bifasha abakiri bato kuzamura urwego rw'ubumenyi bwabo bityo bikabategura kuzavamo abantu beza bafitiye umumaro igihugu nk'abayobozi ndetse n'abandi, rero buri wese akwiriye kubushyigikira mu buryo bwose bushoboka.

Ibigo by'amashuri ni ingenzi, kutabigira bituma abana batiga cyangwa bakajya kwiga kure, bikagabanya umubare w'abitabira ishuri, bitera ubujiji, ubukene n'itinda ry'iterambere, binatuma habaho ubusumbane mu burezi, bigatuma igihugu kidatera imbere neza nk'uko bikwiye.

Kwigisha umuco nyarwanda mu mashuri bifasha abanyeshuri kumenya no gukunda indangagaciro z'umuco wabo, kubaka ubumwe n'ubwiyunge, gusigasira ururimi kavukire no guteza imbere umuco n'amateka by'igihugu, ibi bituma bagira imyitwarire myiza kandi bakarangwa n'ubutwari mu muryango no mu gihugu muri rusange.

Isuku ku kibaho ni ingenzi cyane mu myigire y'abanyeshuri, kubera y'uko ituma abandika bandika neza kandi inyandiko zigaragara. Ibi bigafasha abanyeshuri gusoma no gusobanukirwa amasomo barimo kwiga. Ni ingenzi cyane rero kubungabunga isuku ku kibaho kugira ngo uburezi bugumye butere imbere.

Ireme ryiza ry'uburezi rituma abanyeshuri biga neza bakagira ubumenyi n'ubushobozi bifasha mu mibereho yabo no mu iterambere ry'igihugu, bituma barushaho kumva no gukemura ibibazo byabo, bigateza imbere ubuzima bwabo bwite n'ubw'umuryango, ibi byongera amahirwe yo kubona akazi keza no kugira uruhare mu kubaka igihugu.

Uburere bwiza ni ingenzi kandi ni inkingi y'amahoro, iterambere n'ubumwe bw'igihugu muri rusange. Butuma kandi, abanyeshuri barangwa n'ukuri, ubupfura n'ubwitange. Bikagirira igihugu akamaro kanini cyane. Bijujura abana, bakazavamo abantu b'ingenzi bafitiye igihugu akamaro.

Ibigo by'imyuga n'ubumenyingiro ni ingenzi cyane mu iterambere ry'igihugu kubera yuko biha ubumenyi abana bakiri bato ndetse n'abanyeshuri muri rusange bwo kuzagira uburyo bwo kwihangira umurimo ndetse bakabona akazi mu buryo bworoshye. Birakwiriye yuko bitezwa imbere rero kugira ngo ibyo ngibyo byose bibashe kugerwaho ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange rizamuke.

Uburezi bugenda neza iyo umwarimu ndetse n'abanyeshuri bigira mu ishuri rifite isuku, iyo ibintu byandagaye mu ishuri birangaza abanyeshuri ndetse kandi bigatuma badatuza kugira ngo bakurikirane amasomo yabo, isuku rero ni ingenzi kugira ngo abana batere imbere bunguke ubumenyi mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo bazavemo abakenewe mu gihugu.

Ubusitani butuma ahantu h'ishuri haba heza hisanzuye kandi hagafasha abanyeshuri n'abarimu kugira ibitekerezo byiza no kwiga neza, inzu nziza zishimangira umutekano zitanga ibyangombwa bihagije byo kwiga, bityo zikongera ireme ry'uburezi. Ibi byombi bituma abanyeshuri bishimira ishuri bagakomera ku masomo yabo kandi bagatera imbere.

Kwigisha no kuganiriza abanyeshuri ni ingenzi cyane kubera yuko bituma abana bamenya neza ibyo batari basanzwe bazi, bakagira ubumenyi bwinshi kandi bufatika, kugirana ibiganiro nabo bibafasha gutanga ibitekerezo, gukemura amakimbirane, no kubaka imyitwarire myiza hagati yabo, ibi byose byongera ubushake bwo kwiga bigafasha mu gutegura ejo hazaza habo heza.

Ibigega by'amazi bifite uruhare rukomeye mu iterambere ry'uburezi, ibi ni ukubera yuko bibika amazi, akazakoreshwa mu gukora isuku mu mashuri aho abana bigira, bityo bikabafasha kwiga neza bagatera imbere muri rusange.

Uburezi, butanga ubumenyi n'ubushobozi ku bana n'abaturage, bikabafasha kwihangira imirimo, no gutanga umusanzu mu iterambere ry'ubukungu. Bituma kandi, habaho abaturage bazi gutekereza no gukemura ibibazo byabo, bikazamura imibereho myiza yabo.

Kugira ikigo cy'amashuri kirimo ibendera ry'igihugu muri rusange ni ingenzi cyane, kubera yuko byigisha abanyeshuri gukunda igihugu, kugira indangagaciro na kirazira, icyubahiro ndetse bagasobanukirwa n'amateka yacyo, ibi byose rero ni ingenzi mu burezi.

Kugaragara neza kw'ikigo n'isuku ihagije bituma abanyeshuri biga ahantu heza kandi batekanye batewe ishema na ho, byongera kandi ubushake bwo kwiga, bikanarinda indwara ziterwa n'umwanda kandi bikagira uruhare mu kuzamura ireme ry'uburezi.

Uburezi bufite ireme ni isoko y'iterambere ry'igihugu cyacu, kubera yuko bujijura abantu, abantu bagasobanukirwa, ibikorwa bigatera imbere bikorerwa mu gihugu cyacu harimo ubushakashatsi, ndetse kandi hakaboneka n'abayobozi beza bajijutse bayobora igihugu cyacu mu cyerekezo kizima.

Kugira ngo uburezi butere imbere bikenera ibigo by'amashuri bitandukanye, aho abana baza bagahurira bagasangira ubumenyi n'uburere bubakwiriye. Kuboneka kw'aho abana bigira, bibafasha mu kuzamura ubushobozi bwabo kugira ngo bazavemo abantu bajijutse bazabasha gukorera igihugu cyabo mu buryo bugiteza imbere.

Uburezi butuma abaturage bagira ubumenyi n'ubushobozi bwo kwiteza imbere no gufata ibyemezo byiza mu buzima bwabo kandi byubaka igihugu, ikindi kandi bibafasha mu kubona amahirwe yo kubona akazi kwihangira imirimo, no kuzamura imibereho yabo, ku gihugu uburezi bufasha mu guteza imbere ubukungu no mu kurwanya ubukene.

Kugira idarapo ry'igihugu mu bigo by'amashuri ni ingenzi cyane kuko bifasha gutoza abana gukunda igihugu, kubaha ibirango byacyo no kumenya indangagaciro ziranga umunyarwanda. Ituma abanyeshuri bagira ishema ry'igihugu cyabo hakiyongeraho ubumwe n'imyitwarire myiza rikaba kandi n'igisobanuro cy'ubuyobozi n'umuco Nyarwanda.

Isuku n'ubusitani busesuye bituma abarimu babona ahantu heza ho kwigishiriza. Bigatera umwuka mwiza mu myigire, bifasha mu kurinda indwara no guteza imbere ubuzima bwiza. Byongera isura nziza y'ishuri, bigakurura abanyeshuri n'abafatanyabikorwa, bityo bigateza imbere uburezi n'imibereho myiza y'abaturage muri rusange.

Guhugura abarimu mu buryo bwo gukoresha mudasobwa neza, bituma bazamura ubumenyi bwabo ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu myigishirize, bigafasha kunoza ireme ry'uburezi, bituma abanyeshuri biga neza kandi bigateza imbere igihugu.

Ubwiherero bufite isuku ni ingenzi cyane kubera yuko burinda abanyeshuri indwara ziterwa n'umwanda, bigatuma biga neza kandi bafite ubuzima bwiza, bitanga icyitegererezo cy'imyitwarire myiza, bikarushaho gutanga uburere bwiza no kubaka umuco w'isuku n'ikinyabupfura mu mashuri.

Gusasa uburiri no kugira icumbi risukuye, bituma abanyeshuri baruhuka neza bikabarinda indwara ziterwa n'umwanda n'ibyonnyi. Ibi bituma bumva bafite imbaraga zo kwiga neza, bakagira umwete mu kugira imyitwarire myiza, bityo bigateza imbere ireme ry'uburezi.

Isuku mu bwiherero ni ingenzi cyane kuko irinda ndwara, igatuma abanyeshuri bitabira ishuri neza kandi bakiga bishimye, itanga umutekano n'ishema cyane cyane ku bana b'abakobwa, ikanigisha isuku n'indangagaciro nziza, ibi byose bifasha guteza imbere uburezi bufite ireme.

Aho abanyeshuri bacumbika, hagomba kwitabwaho hagakorwa isuku ihagije, kuko umwanda uba ushobora gutera indwara zitandukanye, zigatuma batiga neza kandi bikabangamira imitekerereze yabo. Na none umwanda utuma habaho ibyonnyi bitera indwara. Kubungabunga isuku ni ngombwa ku buzima n'imyigire yabo.

Isuku ku banyeshuri ituma bagira ubuzima bwiza, birinda indwara zituruka ku mwanda, kandi bikazamura ubushobozi bwabo bwiza bwo kwiga, kurya ntusukure ibyo waririyeho bitera indwara zigiye zitandukanye harimo n'impiswi, ibyo bikaba byabangamira imyigire y'umunyeshuri.

Kwerekana ku mugaragaro amashami yigishirizwa mu bigo by'amashuri, ndetse na kaminuza. Ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera yuko bifasha abanyeshuri n'abaturage, mu guhitamo amasomo ababereye. Bityo bakazaza bizeye neza yuko ibyo baje kwiga biri muri icyo kigo. Ibi ngibi bifasha mu guteza imbere ireme ry'uburezi.

Imihanda ni ingenzi kandi birushaho kuba byiza iyo yubatswe mu bigo by'amashuri. Kubera bifasha mu korohereza abanyeshuri n'abarimu kugera ku mashuri neza, gutwara ibikoresho by'ishuri byihuse, kurinda ivumbi n'ibyondo, ndetse no gutuma ikigo kigaragara neza. Ibi byose bituma imyigire n'imyigishirize irushaho kugenda neza.

Ikoranabuhanga rifasha kwiga no kwigisha abanyeshuri byoroshye, rikagura ubumenyi, rigahuza abantu, rikanoza imikoranire kandi rigateza imbere ubuhanga mu burezi. Ibi ngibi byose bituma igihugu gitera imbere.

Guhugura abarimu ni ingenzi kuko bifasha abarimu kunoza uburyo bwo kwigisha, gukoresha ikoranabuhanga, kumenya gahunda nshya z'uburezi no gukemura ibibazo mu mashuri. Byongera ireme ry'uburezi, bigateza imbere ubumenyi bw'abanyeshuri n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Iyo ikigo cy'amashuri gifite ubwiherero bwiza ndetse n'aho abanyeshuri bogera heza hafite isuku bifasha mu kuzamura ireme ryiza ry'uburezi, bityo abanyeshuri bagakunda ikigo ndetse bagakunda kwiga amasomo yabo. Ibi bibaviramo kujijuka ndetse no kuzavamo abantu b'ingenzi bakeneye n'igihugu muri rusange.

Kubaka umuhanda neza mu kigo cy'abanyeshuri, bituma kugera ku ishuri biba byoroshye kandi bigatanga umutekano. Bituma abanyeshuri badahungabanywa n'imihanda mibi, bikongera ubushake bwo kwiga, no kwitabira amasomo. Nanone bituma ibikoresho n'ibindi bikenerwa bigezwa ku ishuri neza bityo bigafasha mu ireme ry'uburezi.

Ishuri rifite isuku rituma abarimu n'abanyeshuri bagira ubuzima bwiza kandi bagakora neza, kubona ibikoresho biri mu mwanya wabyo, bituma kandi amasomo atangwa neza, bikazamura ireme ry'uburezi, ibi byose bifasha mu kongera umusaruro w'abanyeshuri no guteza imbere uburezi muri rusange.

Guhugura abanyeshuri biga ibijyanye n'imiti bituma bamenya kuyikoresha neza, bakirinda amakosa ashobora guteza ingaruka ku buzima. Byongera umutekano w'abarwayi, bigafasha mu kurwanya indwara, no guteza imbere ubuvuzi bufite ireme. Ibi bifasha kandi, mu iterambere ry'ubuzima rusange n'ubukungu bw'igihugu.

Isuku mu macumbi y'abanyeshuri ituma habaho ubuzima bwiza ikarinda indwara zituruka ku mwanda, ibafasha kandi kugira ahantu heza ho kuruhukira no kwiga, ibi bigatuma bagira imitekerereze myiza n'imyitwarire myiza, na none isuku yongera umutekano n'isura nziza y'aho batuye bigafasha mu myigire myiza yabo.

Amashyamba afitiye akamaro kanini abatuye isi kuko ari isoko y'ubukerarugendo buzana amafaranga y'amahanga menshi cyane. Adufasha kubona umwuka mwiza duhumeka kandi arwanya isuri, kugirango ngo ubuhinzi butere imbere bisaba ko haterwa amashyamba akomeza kandi akanarinda ubutaka. Gutera amashyamba bireba buri muntu wese utemye igiti agomba kugisimbuza ikindi.

Gusenga mu burezi bituma abanyeshuri n'abarimu bagira umutima ukeye, bigafasha mu kwiyunga no gukorera hamwe, bituma habaho ituze mu ishuri, bikazamura imitekerereze myiza n'imyitwarire myiza ikwiriye, gusenga kandi bifasha mu guhangana n'ibibazo by'uburezi, bigatuma umusaruro w'amashuri wiyongera, hanyuma uburezi bugatera imbere.

Ishuri risa neza ni ingenzi cyane mu burezi kuko isuku ituma abanyeshuri n'abarimu bagira ubuzima bwiza buzira umuze, bigatuma imyigire itera imbere kandi bikongera ireme ry'uburezi n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Kubika nabi ibikoresho by'ikoranabuhanga bituma byangirika vuba, bikadindiza amasomo. Mu gihe iyo bibitswe neza, bituma biramba, bigakora neza, bigateza imbere ireme ry'uburezi n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Amacumbi meza atanga umutekano n'isuku bigatuma abanyeshuri baruhuka neza kandi bakiga neza, bituma habaho umwuka mwiza wo kwiga, bikongera ubushake n'imbaraga mu masomo, ibi byose bigafasha kuzamura ireme ry'uburezi no guteza imbere ejo hazaza h'abana.

Intebe nziza mu ishuri, zifasha abanyeshuri kwicara neza, bigatuma biga neza, kandi, bakabikorana umwete. Zikumira ububabare bw'umugongo. Zigatuma isuku n'umutekano mu ishuri, biguma ku murongo mwiza.

Isuku mu macumbi y'abanyeshuri ituma barushaho kugira ubuzima bwiza, birinda indwara ziterwa n'umwanda. Bituma kandi baruhuka neza bagakomeza kwiga neza kandi bafite imbaraga, isuku ituma habaho umwuka mwiza w'amacumbi bigatuma habaho ubufatanye n'imyitwarire myiza mu banyeshuri.

Bimwe mu bifasha uburezi gutera imbere, harimo no kuzamura imyigishirize igezweho, nko gukoresha imashini yerekana amashusho, ikibaho kigendanwa cy'ikoranabuhanga. Ibi bifasha gutanga amasomo mu buryo bugaragara kandi bushimishije, byongera ireme ry'uburezi, bifasha kwihutisha amasomo, no kumenyereza abanyeshuri ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Icyumba cy'ubushakashatsi n'imyigire mu ikoranabuhanga, ni ahantu hateguwe neza, hashyirwa ibikoresho bikenerwa, nka za mudasobwa, n'ibindi bigafasha abantu cyangwa abanyeshuri, kwiga gukora cyangwa gutunganya ibintu bijyanye n'amashusho, n'amajwi, ndetse n'ibindi bikorwa bihuza uburyo bwinshi bwo gutanga amakuru. No mu bigo by'amashuri, ni ingenzi kuko bifasha mu kuzamura ubumenyi bw'abaje kwiga.

Guhugura abarimu bituma bagira ubumenyi n'ubushobozi bugezweho bwo kwigisha neza, bigafasha abanyeshuri kumva amasomo neza no kunguka ubumenyi bufatika, ibi byongera ireme ry'uburezi, bituma amashuri agira umusaruro mwiza kandi bigafasha igihugu gutera imbere binyuze mu burezi bufite ireme.

Isuku mu bigo by'amashuri, ni ingenzi cyane kuko ituma abanyeshuri biga neza, kuko baba babona aho biga heza, hafite umwuka mwiza kandi hatarangwamo umwanda. Ibi bituma kandi bagira ubuzima buzira umuze, bakirinda indwara zibabangamira mu myigire yabo.

Ubusitani bwiza kandi bufite isuku ni ingenzi cyane mu iterambere ry'uburezi. Ibi ngibi ni ukubera yuko bituma ikigo gisa neza bityo bigatera ishema abarimu bigisha abana ndetse n'abana baza kwiga muri icyo kigo. Ibi ngibi iyo bibaye bibafasha kubona ubumenyi buhagije ndetse bagatera imbere.

Mu bigo by'amashuri isuku no gusasa neza uburiri bifasha abanyeshuri n'abarimu kugira ubuzima bwiza, bigabanya indwara n'imihangayiko, ibi bituma abanyeshuri bitabira ishuri neza, bagakora neza amasomo yabo, bityo bigateza imbere ireme ry'uburezi n'imibereho myiza muri rusange.

Kwanika ibiryamirwa hanze ku zuba bishobora gutuma byandura ivumbi, umwanda, udukoko ndetse n'ibindi bitandukanye, bishobora no kwangirika vuba kubera imirasire y'izuba ikabije. Ibi bituma bibyara umunuko, indwara z'uruhu ndetse n'ibindi bintu bibi bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza, zitanga umutekano n'ituze ku banyeshuri n'abarimu. Bigatuma imyigire, iba myiza. Zifasha mu gutanga ibyangombwa bikenewe, ku myigire, nko kubona icyumba gihagije, urumuri, n'umwuka mwiza. ibi bituma abanyeshuri bishimira ishuri, bagakora neza, bikongera ireme ry'uburezi muri rusange.

Inyubako nziza ndetse n'ubusitani bwiza mu bigo by'amashuri ni ingenzi cyane, kubera yuko bituma ikigo gisa neza ndetse bigatera ishyaka abanyeshuri kwiga neza ndetse n'abarimu bakigisha neza, niyo mpamvu rero ibigo by'amashuri bisabwa kuba bifite inyubako ifite isuku kandi nziza ndetse n'ubusitani bwiza.

Mudasobwa ni kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga bikenerwa cyane mu iterambere ry'uburezi. Kubera yuko abarimu bayikenera mu buryo bwo gushaka ibyo bagomba kwigisha abanyeshuri. Bagashaka ubumenyi kugira ngo babashe gutanga ibikwiriye. Ikindi kandi bifasha abanyeshuri mu bushakashatsi. Kugira ngo barusheho kunguka byinshi bazabe abanyakamaro cyane mu iterambere ry'Igihugu.

Amatara atanga urumuri mu mashuri ni ingenzi cyane kuko afasha abanyeshuri n'abarimu kwita ku masomo neza cyane cyane mu gihe cy'umwijima cyangwa mu bihe bidakunze kugira urumuri rw'izuba, bituma habaho umwuka mwiza w'akazi bigatuma imyigire iba myiza kandi ikagenda neza muri rusange.

Kwiga imyuga ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko bitanga ubumenyi ngiro, bugafasha kwihangira imirimo, kugabanya ubushomeri, kongera umusaruro, guteza imbere ubukungu, no gufasha igihugu, kugira abaturage bifashije, kandi bafite ibyo bakora bibateza imbere.

Kwigisha abanyeshuri gukoresha neza ibikoresho by'ubushakashatsi bituma babasha kumva neza amasomo yabo binyuze mu bikorwa bifatika, bibongerera ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi bigatuma baba abanyabwenge, bashobora gutanga ibisubizo ku kibazo cy'imibereho n'iterambere.

Inyubako nziza zitanga umutekano, ituze n'ahantu heza ho kwigira, bigatuma abanyeshuri n'abarimu biga neza kandi bakishimira ishuri, ubusitani bwiza kandi butanga umwuka mwiza wo guhumeka, kandi butuma ahantu habera imyigire haba heza cyane kandi hisanzuye.

Ikigo cy'amashuri gifite isuku, kandi kigaragara neza, gituma abanyeshuri biga neza, kirinda indwara, gitanga isura nziza, kandi kigatera ishyaka ryo kwiga. Iyo gifite n'ibikorwa remezo bizima kandi byiza, bituma abanyeshuri biga neza kandi bakiga mu mutuzo bagatsinda neza.

Kwigisha abanyeshuri imyuga n'ubumenyingiro ni ingenzi cyane mu iterambere ry'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange, ababyiga kandi bibafasha kunguka ubumenyi bwinshi bakabona akazi ndetse bakihangira imirimo, rero bikwiriye gushishikarizwa abantu bakabikora babikunze kubera yuko ari isoko yo gutera imbere no kuzahura ubukungu.

Amashuri yubatse neza, atanga ahantu heza hafite isuku kandi hizewe ho kwigira. Bituma abanyeshuri n'abarimu bakora neza bityo imyigire ikarushaho gutera imbere. Inzu nziza zituma abanyeshuri bifuza kwiga, bityo bikongera ireme ry'uburezi n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Isuku ahatangirwa amatangazo mu kigo cy'amashuri ni ingenzi cyane kuko ituma ubutumwa butambuka neza abanyeshuri bakumva neza kandi bakita ku byo basomye, bityo ni ingenzi cyane rero guteza imbere ibijyanye n'isuku cyane cyane ahantu harimo hatangirwa amatangazo.

Kwegereza udukingirizo abanyeshuri, bigamije kubarinda inda zitateguwe, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina no kubigisha gufata imyanzuro iboneye ku buzima bwabo n'imyororokere. Bitanga amahirwe yo kwigisha ubuzima bw'imyororokere mu buryo bunoze, bigafasha mu kurinda ejo hazaza h'urubyiruko no guteza imbere uburezi bufite ireme.

Isomero ni ingenzi mu myigishirize, itanga amahirwe yo kubona ibitabo n'ibindi bikoresho bikenerwa mu masomo, rifasha abanyeshuri n'abarimu kwiga no kwagura ubumenyi, ryongera ireme ry'uburezi, riteza imbere umuco wo gusoma no kwiga ku giti cya buri wese. Bityo rikagira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu.